Urugaga rw'abantu benshi harimo umugabo umwe ufite uruhu rwera ndetse n'abandi bafite uruhu rwirabura, bari gufata ifoto y'urwibutso bigaragara ko bavuye mu bukangurambaga bambaye amataburiya.

Urugaga rw'abantu bagera kuri cumi na batanu, harimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda ya kiganga bamwe, ndetse n'utuntu tugaragaza ko ari abaganga babyemerewe.

Ku ivomero rusange ni hamwe mu hakoranira abantu b'ingeri zitandukanye. Uyu ni umubyeyi uri kumwe n'abana babiri, bari kuvoma bareba ahitaruye, bisa nk'aho bishimiye, umwana umwe yambaye agapira k'umutuku, uwo mubyeyi yambaye akantu kamupfutse mu mutwe, undi mwana yarangariye umubyeyi.

Urukingo ni rumwe mubigwi abaganga bagezeho muri ino myaka ya vuba cyane bifashisha barwanya indwara zandura ku muvuduko munini cyane harimo izagiye zizahaza isi cyane, biba byiza iyo hakoreshejwe udukoresho dusa neza, dusa nk'icyatsi ndetse tubitswe mu buryo bwa gihanga.

Ubuzima bw'umwana n'umubyeyi ni ihame kandi ni n'ingenzi iwacu hano mu Rwanda. Aba ni ababyeyi baje kwita ku bana babo, kubasuzumisha kwa muganga ngo barebe ko bafite ubuzima buzima.

Abana batatu bari mu kigero cy'imyaka mito cyane bari ku ivomero rusange baraseka cyane, inyuma yaho hari umugore utagaragara neza, abo bana mu ntoki zabo harimo isabune bigaragara ko bari mu bukangurambaga bwo kwigisha abandi bana bagenzi babo uburyo bakaraba neza intoki zabo.

Turwanye imirire mibi abantu bane bose b'igitsina gore, harimo umumama ufite umwana uri kwitabwaho uri kwigishwa uburyo yafata indyo yuzuye.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro uhagaze ku mifuka myinshi irimo ibiryo, ari guhereza abagore babiri biteze ibitambaro mu mutwe, umwe w'icyatsi ndetse n'undi w'ibara risa nk'iry'ingwe bose bakaba bari kumwakira ngo baherezwe ibiryo.

Ku kigo Nderabuzima aho uruvange rw'abantu ndetse n'urusobe rw'abantu benshi bagiye batandukanye. Igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, Abayobozi ndetse n'abaturage n'abashinzwe kubarindira umutekano bahuriye kwa muganga, aho bari gusuzumirwa ndetse no kwigishwa no gukorerwaho ubukangurambaga.

Urugaga rw'abantu batandukanye harimo ingeri zose, igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, ariko abo igitsina gore bariganje, bambaye utugofero tw'umweru ndetse n'agapira k'ubururu bose bazamuye akaboko hejuru.

kuvura abaturage mu buryo bwa rusange, ni kimwe mu bikorwa bikunze gukorwa ahantu mu Rwanda bakunda kwita mu cyaro, aba ni abantu benshi bari mu cyaro, bari kwitabwaho n'inzego zitandukanye kugira ngo bagire ubuzima bukwiye.

Aba ni abana babiri b'abahungu, umwe yambaye imyenda ijya gusa nk'iya gisirikare, undi yambaye agapira k'umutuku, bari gukina n'amazi bigaragara ko bari ku ivomero rusange.

Abana bane bari ku ruzi barimo baravoma, ni abahungu bose bari mu kigero k'imyaka itari myinshi ni ukuvuga imyaka icumi kuzamura.

Ni kwa muganga aho ababyeyi bateraniye baje kuzana abana babo kugira ngo bitabweho neza, babone ubuvuzi cyangwa se ubufasha bukwiriye, bahabwe n'amabwiriza y'uburyo bazajya bitwara imbere y'abana.

Itsinda ry'abantu batandukanye benshi harimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye amataburiya yo kwa muganga abandi bagore baritandiye bigaragara ko bavuye mu nama cyangwa se amahugurwa atandukanye yo kwa muganga, barimo barafata ifoto y'urwibutso, ariko ntibishimye.

Turi ku ivomero rusange hamwe n'abantu batanu bose b'igitsina gore, baje kuvoma kugira ngo ibikorwa byabo bya buri munsi mu ngo zabo bibashe kugenda neza.

Ikigo cy'amashuri cy'abana batoya bakiri mu myaka yo hasi, batarengeje mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza, barateranye bari kunywa amata rusange, abayobozi babo babazaniye.

Abana benshi bari mu rungano rw'ikigero kimwe, baje gufata imbwirwahamwe y'amanota bagize mu gihembwe cy'amashuri, bigaragara ko bose basa nk'abishimiye umusaruro bakuyemo, barishimye bari kumwe n'umwarimu wabo. Hejuru yabo hari ikirango kiriho izina ry'Ikigo bigaho.

Umubyeyi uhetse umwana we mu mugongo, yambaye ibitenge kandi yapfutse umwana ahetse mu mugongo igitenge, arimo aroza indobo mbese arakora isuku muri make.

Inama yahuje abagabo ndetse n'abagore, bambaye neza amakoti ndetse n'amapantaro meza agezweho, bari kwiga ku bibazo bitandukanye bisa nk'aho ari umwe uri kuvuga wenyine. Abandi bakaba bamukurikiye.

Mu cyumba cyo kwa muganga basuzumiramo, harimo abaganga biteze udutambaro mu mutwe, ndetse bambaye n'agapfukamunwa, n'imyenda y'icyatsi y'abaforomo, ndetse n'iy'umweru y'abaganga.

Urugaga rw'abana benshi bari ku ivomero rusange bari gukina basa nkaho bari kurwanira kuvoma mbere, ni abana bari mu kigero cy'ubwangavu bafite imyaka itari hejuru y'imyaka icumi ndetse itari munsi y'imyaka irindwi.

Dutoze abana kugira ishyaka ndetse no kugira umunezero mu kubahuza, tubigisha ingeso nziza. Harimo gukaraba intoki mbere y'uko bajya gufata amafunguro ya saa sita cyangwa ya mu mugitondo cyangwa ndetse n'aya nijoro. Aba ni abana bishimye cyane bari kumwe n'umutoza wabo.

Abantu babiri harimo, umwe w'igitsina gore ndetse n'uw'igitsina gabo. Uw'igitsina gore, bigaragara ko ari umuganga, ubizobereyemo, yambaye agapfupamunwa, ari kumwe n'uw'igitsina gabo, hejuru yabo hariho amagambo yanditse mu mabara atandukanye: mutuku ndetse n'umukara, avuga ngo:" Sida iracyahari, duhaguruke tuyirwanye".

Abantu bagera kuri barindwi bari mu kigero cy'urubyiruko, harimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, higanjemo abambaye imipira y'ubururu, bigaragara ko batsindiye igihembo bahawe n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku bana.

Abagore batatu bambaye ibitenge, umwe yambaye umwitero mu mutwe, abandi nabo bari mu mirimo itandukanye, umwe aravoma undi asa nkaho ari gukina.

Umwana muto wambaye agapira k'ubururu afite isabune mu ntoki bari kumukarabya mu ijaga y'icyatsi, bigaragara ko ari umwana muto cyane uri mu kigero cy'imyaka itatu kumanura, bari kumutoza ko mbere yo kurya agomba kubanza gukaraba.

Abantu bane harimo abagabo ndetse n'abagore bigaragara ko bashinzwe kugaragarizwa impano ndetse no kujonjora ababikoze neza, barimo bariga ku mpano zabagaragarijwe kugira ngo barebe uhitwamo.

Abantu babiri harimo umugore cyangwa se umubyeyi, umwana ukiri muto cyane uri mu kigero cy'imyaka irindwi kumanura, uwo mubyeyi ari kumwigisha gukaraba intoki mbere yuko afata ifunguro ryaba ari irya saa sita, cyangwa iry'igihe gitandukanye.

Urugaga rw'abantu benshi higanjemo abana batoya cyane, bari hasi y'imyaka irindwi, bahuriye ku ivomero rusange, aho bagiye kuvoma amazi bari bukoreshe mu ngo zabo, hari ndetse n'abandi bantu bakuru ndetse n'ababyeyi babo.

Inama irarangiye aho hakurikiyeho igikorwa cyo gufata ifoto y'urwibutso, urugaga rw'abantu benshi, harimo abagabo, abagore ndetse n'umunyamahanga wo mu bwoko bw'abazungu.

Urugaga rw'abantu batandukanye, harimo ab'igitsina gabo, ariko abiganje ni ab'igitsina gore, bamwe bambaye udupfukamunwa bari ahantu hari amagambo yo mu kinyarwanda, handitse uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu.

Umwana w'uruhinja ari kumwe n'umubyeyi we wamwibarutse barishimye baraseka, bigaragara ko uyu mwana yitaweho neza, afite ubuzima butari mu kangaratete.

Ikoraniro ry'abantu batandukanye harimo ab'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsina gore, abagore bitandiye imyambaro itandukanye, bicaye mu kiziga bari kuganira cyangwa se bari gukora inama hakorwa ubukangurambaga ku nyito itabashije kumenywa neza.

Umugabo wicaye hasi, yambaye agasengeri n'agakabutura, afite ibisuko ku mutwe, bigaragara nk'aho ari mu kigero k'imyaka mirongo itatu kuzamura kandi akaba asa nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe, afite n'ipine, araricigatiye.

Ifoto igizwe n'ibirango biherekejwe n'amagambo asobanura icyo ibyo birango bisobanura harimo icya repubulika y'u Rwanda icy'ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe imiti ndetse n'umunsi mpuzamahanga wahariwe uburwayi bwo mu mutwe n'amagambo atanga ihumure ku barwaye indwara yo mu mutwe.

Umuntu wifashe mu mutwe, arasa nk'aho ari uw'igitsina gore, ibibazo byamurenze, ashobora kuba mu mutwe we hatangiye kugiramo utuntu tutagendana neza, afite ibisuko, yambaye agapira k'amaboko maremare k'umweru.

Umumama wambaye akantu ko mu imbere k'umutuku ndetse n'agakoti k'umukara kariho akantu kazengurukije gakozwe mu gitenge, araseka, ahagaze yemye, inyuma ye hariho ikirango kiri mu ibara ry'icunga.

Urugaga rw'abantu benshi, bari mu rugendo rusange, urugendo rugamije kurwanya ihohoterwa, barangajwe imbere n'umugabo wambaye ikoti ndetse uri gusoma, yifashishije agakoresho k'indangururamajwi, inyuma ye hari abashinzwe umutekano, abo bantu benshi bambaye umupira usa icyatsi.

Abantu baricaye bari kuganira, harimo ingeri zose, abakecuru, ababyeyi ndetse n'abagabo n'umwana mutoya. Bose bicaye bahuje umugambi umwe, bari kuganira, umwe wambaye umupira w'ubururu ari kubasetsa.

Umugore wambaye agasengeri kabugenewe kariho uturango dutandukanye, ari gutanga imbwirwaruhame, bisa nk'aho ari gukangurira abantu gukora ibyo yabateguriye.

Umubyeyi wambaye amasaro mu ijosi ndetse n'igitenge n'agapira, ari kumwe n'umugabo ufite akabando mu ntoki, afashe umukobwa ku rutugu bigaragara ko ari kumufasha kugenda, uwo mukobwa afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya umwe bigaragara ko asa nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe akaba yambaye incabure cyangwa se imyenda icikaguritse hafi ya ntayo,. ari gusuhuzanya n'umugabo bigaragara ko asa nk'ugiye kumuha ubufasha.

Urugaga rw'abantu batandukanye benshi, biganjemo urubyiruko ndetse n'abana bakiri bato cyane, bambaye nabi, bigaragara ko nta suku bafite, bafite ubukene bugaragara no ku maso yabo, bafite ishavu, ndetse n'imisatsi yabo ntabwo itunganyije neza.

Urugaga rw'abana benshi batandukanye, harimo abahungu ndetse n'abakobwa, barishimye cyane bigaragara ko imbere yabo hari ikintu cyangwa se umuntu uri kubasetsa bitangaje cyane kuko bose barishimye baraseka ntibahagarara.

Umupira ufite amabara agiye atandukanye, harimo umweru n'ubururu, hakaba handitseho amagambo ari mu rurimi rw'amahanga, "icyongereza", hariho udushusho dutandukanye ndetse handitseho CHOGM, ari inama yabereye mu Rwanda ihuza ibihugu byo mu Bwongereza ndetse n'Uburayi.

Ibirango bitandukanye, biri mu mabara atandukanye, harimo icya polisi y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse na Repubulika y'u Rwanda, umuryango ndetse n'ishami rishinzwe kwita ku buzima bw'abana, harimo ndetse n'amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda, isange ndetse n'ayanditse mu rurimi rw'amahanga icyongereza.

Umugabo muremure, ubyibushye, wambaye ishati y'amaboko yombi, ifite ibipesu bibiri iri mu ibara ry'icyatsi, araseka cyane, afite umusatsi mukeya, inyuma ye hari ibishusho by'ingagi, bigaragara ko avuye mu gikorwa cyo kwita izina.

Umugabo wo mu kigero cy'imyaka mirongo itatu kuzamura, yifashe akaboko ku mutwe, birasa nkaho byamucanze yambaye igitenge, ndetse yicaye ku kiringiti, ku maguru ye yombi arasa nk'uboshye.

Abantu batandukanye b'ingeri nyinshi, harimo abagabo ndetse n'abagore, ariko b'abayobozi, bicaye hejuru y'abandi bari kubwirwa ndetse no kubwira abari kubatega amatwi, ingamba zigomba gufatwa, hejuru yabo hariho ibirangantego by'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima, ndetse n'ikigo cya Repubulika.

Kimwe mu bitera uburwayi bwo mu mutwe, ni ukugira uburakari, umunaniro ndetse n'umubabaro ukabije. Umukobwa arishimye, araseka, bigaragara ko nta kibazo afite cyo mu mutwe.

Ibitaro biherereye mu Murenge wa Ndera, byubatse neza, amashami, ibyatsi byiza, ni ibitaro byagenewe abarwayi cyangwa se abafite uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo bitabweho neza basubire mu bandi.

Inama yahuje abantu b'ingeri zitandukanye harimo ab'igitsina gabo, ab'igitsina gore, harimo n'abambaye n'amalinete. Bigaragara ko bari kumva imbwirwaruhame iri gutangwa bijyanye n'inshingano ya buri umwe.

Igishushanyo cy'umweru cy'umuntu giheherekejwe n'ibindi birango by'icyatsi, mo hagati harimo amagambo yo mu rurimi rw'amahanga rw'icyongereza bishatse gusobanura mu rurimi rwo mu kinyarwanda umunsi mpuzamahanga wahariwe mu kurwanya indwara yo mu mutwe.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu kuzamura, usa nkaho afite uburwayi bwo mu mutwe, azengurukije kandi anambaye ibintu byinshi birimo imyanda yakuye hirya no hino, mu kimoteri.

Umwana w'umukobwa muto cyane uri mu kigero k'imyaka irindwi kumanura, ari kwerekana uburyo dukwiye koza amenyo yacu tukayagirira isuku buri munsi.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu kuzamura yasetse amenyo arasa umweru bisa nkaho yayakoreye isuku, afite akagozi k'umweru ari guhekenya ndetse n'agatambaro k'umweru, avuye mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo ufite uruhu rwirabura, arimo aravurwa amenyo n'umugore ufite uruhu rwera, yambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'agapfuka imisatsi, n'ibikoresho byo kwa muganga.

Umubyeyi n'umwana barahuza urugwiro, barishimye, umubyeyi ari gutoza umwana, kugira umuco wo koza amenyo ye buri uko abyutse.

Ubuzima bwo mu kanwa ni kimwe mu bintu bikwiye kwitabwaho cyane, n'abaganga ndetse na nyir'ubwite, umusore uri kumwe n'abaganga babiri, bari kumupima amenyo ye bagenzura nimba nta mwanda wasigayemo, kugira ngo agire isuku kandi agire n'ubuzima buzima.

Icyumba cyo kwa muganga cyo kigizwe n'ibikoresho byabugenewe harimo intebe abarwayi bicaraho ndetse na muganga harimo ibikoresho bya mudasobwa bifashwa mu kureba ndetse no kugenzura indwara umurwayi arwaye.

Umusore usa neza ufite imisatsi y'umukara n'amenyo asa umweru bigaragara ko arishimye ndetse afite ubuzima bwiza ugendeye ku buzima bwo mu kanwa ke.

Umwe mu rubyiruko uri mu kigero k'imyaka makumyabiri n'itanu kuzamura, arireba mu ndorerwamo yambaye agapira k'umweru ndetse arahekenya agagozi k'umweru, amenyo ye arirererana cyane.

Turi kwa muganga aho muganga ari gukoresha utwuma cyangwa se udukoresho dusa neza nko mu kanwa h'umuntu hapanze amenyo neza nk'uko bimeze ku muntu, ari kwigisha undi bakora ubukangurambaga ku buryo bakorera isuku amenyo.

Umwe mu rubyiruko ndetse n'umuganga bari mu gikorwa cyo kuvura ndetse n'uvurwa ari kwerekana amenyo ye asa n'umweru, amaso ye asa nkaho agaragariza umuganga ko yishimiye ubuzima abayemo ariko hakaba hari ikibazo yagize ku ryinyo rimwe.

Icyumba cyo kwa muganga gifashirizwamo abafite indwara cyangwa se ubusembwa bwo mu menyo, harimo ibikoresho byiza cyane byabugenewe, bikoreshwa mu kwita ku muntu ufite ubwo burwayi.

Umwana muto w'umwangavu uri mu kigero k'imyaka cumi n'ibiri kumanura arimo aritabwaho ubuvuzi bukorerwa mu kanwa, amenyo ye bari kuyareba neza bagenzura ko nta kibazo afite.

Inararibonye mu kuvura uburwayi ndetse n'ubusembwa bwo mu kanwa cyane cyane amenyo, ari kumwe n'umufasha mu kuvura umwe mu barwayi baje kwa muganga bafite icyo kibazo.

Umusore w'inzobe w'ubukaka n'ubushongore, arishimye cyane yasetse neza, bigaragara ko amenyo ye ayagirira isuku, afite akantu mu ntoki ariko kugatunga urutoki.

Ihuriro ry'abantu batandukanye harimo abana bambaye imipira y'icyatsi, yanditseho amagambo yo mu Kinyarwanda ngo tubiteho, bari kwitabwaho kuko n'abagabo bambaye udupfukamunwa bigaragara ko ari inararibonye mu byo bakora, barikubitaho babavura amenyo yabo.

Abagabo bagera muri barindwi bari mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi cyangwa mirongo inani, abo twabita abasheshe akanguhe, baricaye, bihereye amaso, bigaragara ko hari ikintu bose bahurijeho bari kureba, babiri muri bo bafite inkoni bigaragara ko ari bo bayoboye abandi.

Abantu babiri umwe ni umuforomo, undi ni umusaza usheshe akanguhe, wambaye agapira k'ubururu ndetse n'agakabutura k'umukara, arafata ku bintu cyangwa se ibikoresho byagenewe, kwita ku bantu bakuru cyangwa bashaje cyane.

Tugire uruhare mu kwita ku buzima bw'abasheshe akanguhe cyangwa se abantu bakuru muri rusange. Urugaga rw'abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore, barimo baratanga impano ku bantu basheshe akanguhe. Umugore wo mu kigero cy'imyaka mirongo itanu, mirongo itandatu, bamuhaye ikiringiti azajya akoresha mu gihe aryamye.

Umubyeyi ndetse n'umwana baraseka cyane, bari gufata ifoto ariko ikigaragara cyo bari kwa muganga, bose bafite akazi bashinzwe kwa muganga, ni yo mpamvu ubona ko bakora bishimiye akazi kabo.

Umubyeyi usheshe akanguhe ufite imisatsi irimo uruvi, arakuze cyane ari mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi kuzamura, ari kumwe n'undi mukobwa ufite imisatsi karemano afite n'uruhu rwererana.

Kwita ku basheshe akanguhe, cyane cyane abasaza ndetse n'abakecuru, ni bimwe mu bintu dukwiye gukangurira buri umwe gukora, umusaza arimo aritabwaho barimo baramukarabya kugira ngo agire isuku.

Abasaza babiri bambaye ingofero z'abasaza ndetse bakenyeye n'imikenyero umwe w'umweru, ndetse n'undi w'umukara, bambaye amashati atandukanye, umwe yambaye ishati y'umweru, undiy'ubururu, inyuma yabo hari urugaga rw'abantu benshi biganjemo abagore ndetse n'abasaza.

Umugore ukuze uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu cyangwa se mirongo irindwi, ari kunywa imiti yahawe no kwa muganga, bigaragara ko yitaweho neza, afite n'akamwenyu mu maso he.

Ubuzima bw'abasheshe akanguhe cyangwa se abasaza n'abantu bakuze muri rusange ni bumwe mu bakwiye kwitabwaho natwe urubyiruko. Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri kumanura, arasutse, yambaye agapira k'amaboko mato. Ari kumwe n'umusaza ufite imisatsi y'imvi, bigaragarako ari kumuha cyangwa se kumwitaho.

Abakuru n'abasheshe akanguhe ni bamwe mu bantu bakunda kwibasira n'indwara zijye zitandukanye zirimo umutima, umuvuduko, w'amaraso, diyabete ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ni byiza ko rero habaho ubukangurambaga kuri bo bagapimwa hakiri kare bakareba ko izo ndwara batazifite bagakorerwa ubuvuzi hakiri kare.

Abantu babiri harimo umugabo uri mu kigero k'imyaka mirongo itandatu, afite imisatsi irimo imvi, ari kumwe n'umukobwa wambaye amataratara, barishimye cyane bigaragara ko ari umubyeyi ndetse n'umwana.

Umwe mu babyeyi b'igitsina gore, uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu kugera kuri mirongo itandatu, arimo arakora siporo ngororangingo, agaragaza ko siporo ku bantu bakuru ari ingenzi.

Abantu babiri umugore ndetse n'umugabo, umugore wambaye imyenda ya giforomo ari kwita ku musaza cyangwa se usheshe akanguhe, amusukira ibinyobwa byaturutse mu mbuto nziza kandi zogejwe neza.

Ubuzima bw'abasheshe akanguhe ni kimwe mu bintu twebwe nk'urubyiruko cyangwa se n'abandi bose barenzeho gato ku rubyiruko dukwiye kwitaho, uyu ni umusaza uri kwandika bigaragara ko ari kwiga kugira ngo adaheranwa n'imyaka agezemo.

Urugaga rw'abantu benshi bari ahantu munzu mberabyombi, bigaragara ko bavuye mu bukangurambaga bujyanye n'ubuzima, bafite amafoto asa mu biganza byabo, bavuye mu nama bigaragara ko yagenze neza, bose barafata ifoto y'urwibutso.

Impande eshatu zirimo amagambo yo mu rurimi rw'amahanga rw'Icyongereza, zivuga ibintu bigiye bitandukanye, harimo ubuzima, abantu ndetse n'uturere bigiye bikurikiranye ku murongo uzamuka.

Urugaga rw'urubyiruko ndetse n'abantu benshi higanjemo abagabo n'abagore ndetse n'abana, bari gukora urugendo mu mihanda, bisa nkaho bari gukora ubukangurambaga, bafite ibirango byanditseho ngo twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumishe hakiri kare kuko ivurwa igakira.

Abantu benshi harimo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, bitabiriye umuhango wo gufata urukingo kugira ngo birinde ko ejo habo hazaza hazaba huzuyemo indwara cyangwa se n'ubundi busembwa, butewe n'izo ndwara zizahaje Isi.

Abagore batatu bambaye udupfukamunwa, umwe yambaye amarinete, bose bambaye udutambaro mu mutwe, biragaragara ko bakora kwa muganga, bari kubazwa ku bijyanye n'indwara zikwirakwira vuba.

Ikirangantego k'ikigo tutabashije kumenya neza, kiriho amagambo y'ururimi rw'amahanga rw'Icyongereza ndetse harimo n'ijambo rimwe rukumbi risobanura igihugu cy'u Rwanda, icyo kirangantego kiriho amabara atandukanye umweru, umukara ndetse n'ubururu.

Amagambo yo mu rurimi rw'amahanga rw'Icyongereza asobanuye umunsi mpuzamahanga wa Diabete, indwara iterwa no kubura isukari cyangwa kugira isukari nyinshi mu mubiri n'ibimenyetso by'umukobwa ndetse n'inzu iherereye mu Rwanda bakunda kwita "Convention center" iberamo amanama atandukanye.

Urugaga rw'abantu barimo ingeri zitandukanye, abagore, abagabo, abazungu ndetse n'urubyiruko harimo kandi n'abashinzwe umutekano bigaragara ko bavuye mu nama bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye, harimo ababyinnyi bari ku rubyiniro ndetse n'abicaye bari kureba ababyinnyi bababyinira, hariho ibirango bigaragaza ko ari umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya SIDA, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane...

Abantu barimo ingeri zitandukanye harimo ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, bambaye udupfukamunwa, bafite udukoresho, bigaragara ko bari gutanga ubukangurambaga ku rubyiruko, barwigisha ku bijyanye n'imyororokere.

Urugaga rw'abantu benshi batandukanye harimo ab'uruhu rwirabura ndetse n'ab'uruhu rwererana, bari mu nama aho bamwe batoranyijwe kujya hejuru y'abandi, bagasobanura zimwe mu ngingo zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'umugore umwe.

Umugore mu ishusho ry'icunga, usutse, wambaye n'amaherena, imbere ye harimo amagambo yo mu rurimi rw'amahanga Icyongereza. Bishatse gusobanura turwanye cyangwa se twite ku bidukikije.

Abantu bane, harimo umugabo mwiza cyane wambaye ikoti ryiza cyane ndetse n'isaha, bigaragara ko ari umuyobozi yasuwe, n'abagore batatu barimo bamwe babandi bakunda kwita ababikira cyangwa se abihayimana bakaba bavuye mu nama mu bigaragara barishimye imyanzuro bafashe yagenze neza.

Ikirango kiri mu ibara ry'icunga, risa neza, kiriho amagambo asobanura ko mu bigo by'amashuri yisumbuye, hagomba kujyaho ubukangurambaga ku myororokere.

Ubuvuzi rusange ni ngombwa cyane cyane ku basheshe akanguhe. Abantu babiri bambaye imyenda ya kiganga n'agapfukamunwa ndetse n'ibikoresho bipfuka umutwe wabo birinda ko imyanda yabageraho, bari kwita ku musaza ufite imyaka cyangwa se mu kigero cy'imyaka mirongo inani, bari kumwitaho bamureba mu kanwa.

Abantu bane harimo abagabo babiri ndetse n'abakobwa babiri, bafite udukingirizo mu ntoki zabo, bigaragara ko bari gutanga ubukangurambaga mu gukoresha agakingirizo.

Inararibonye mu gusobanura bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho bikoreshwa mu nzu zo kwa muganga, ari gusobanurira bagenzi be abigisha uburyo bakoresha ibyo bikoresho.

Ni ngombwa kwita ku bantu bakuru, ndetse n'abasheshakanguhe, cyane cyane ab'igitsina gore, abamama badafite ubushobozi bwo kwiyitaho, ni ngombwa ko tubakorera isuzuma tukabapima indwara zitandukanye.

Ivuriro mpuzamahanga rigezweho, rifite ucunga umutekano waryo, ari gukora akazi ke neza, yereka imodoka zirimo abagenzi cyangwa se abarwayi bagannye iryo vuriro, ari kubereka aho batondeka imodoka zabo neza.

Tugeze ku bitaro aho hari abantu benshi bari kuza ndetse n'abataha, hari ushinzwe umutekano wambaye imyenda y'umweru ndetse n'ingofero ndetse n'indi iri mu mabara nk'ay'icunga.

Inzu mberabyombi irimowo ibyumba bitandukanye, harimo ibikuta bisigishije amarangi y'umweru, harimo amatara menshi cyane atondekanyije ku murongo bigaragara ko ari kwa muganga, ni inzu ya kijyambere.

Abantu bagera muri bane, babiri bategereje serivisi, abandi bari kuyitanga. Ni ku ivuriro hari isaha ndetse n'intebe n'ameza abantu aho bahurira kugira ngo bahabwe serivisi.

Inzu y'ubucuruzi bw'imiti yo kwa muganga. Ni inzu, aho abarwayi bose boherezwa na muganga kujya gushaka imiti, ivura uburwayi babasanzemo kwa muganga.

Mu cyumba cyo mu nzu, aho abantu bicara bakaganira harimo udutebe twiza tugufi, ndetse n'ibibabi bigaragara ko ibidukikije ari kimwe mu bintu bikwiye kujya ahantu hose, kugira ngo tubone umwuka mwiza duhumeka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo n'amashusho y'amaso, bigaragara ko iki cyumba cyagenewe ubuvuzi bw'amaso. H,arimo intebe y'umukara ndetse n'iz'icyatsi, ibikoresho bisa n'umweru ndetse n'akagaragaza amashusho gasa umukara.

Inzu nziza igezweho, irimo ibitanda bigera muri birindwi, hakaba harimo utuntu dukingiriza twifashisha kugira ngo dutandukanye ibitanda.

Inzu yo kwa muganga irimo ibikoresho karahabutaka byiza kandi bigezweho harimo mudasobwa, uburyamiro busa umukara, udukoresho tw'umutuku ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyumba bakoreramo imyitozo ngororamubiri kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bishinzwe kwita cyangwa se kugenzura ko umwitozo ngororamubiri wagenze neza. Ni ukuvuga ngo bireba umubiri w'umuntu bikamugenera uburyo ari bwirukanye cyangwa se uburyo umwuka we uribuze kuba uri gusohoka.

Ibitaro byo kwa muganga habonekamo ibyumba abarwayi baruhukiramo bari kwitabwaho n'abaganga. Hakabonekamo ibikoresho bya ngombwa bishinzwe kwita ku bari muri ibyo bitaro.

Inyubako nziza y'akataraboneka, yubatswe n'abakozi cyangwa se abubatsi, bafite ubunararibonye mu byo bakora, ni inyubako mberabyombi, isa neza, ibereye ijisho. Bigaragara ko, iki gihe tugezemo, ari icy'iterambere.

Turi i Kanombe mu bubiko bw'imiti. Aho abaganga bohereza abarwayi gufata imiti imwe n'imwe ijyanye n'uburwayi basanzwemo kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bihambaye by'ikoranabuhanga, harimo uburyamiro, udukoresho banagamo imyanda ndetse na za mudasobwa zifashisha mu gupima indwara abagana ibyo bitaro baba bafite.

Inyubako yitaruye irimo amagorofa agera kuri abiri, iri ku musozi ahantu hari ibidukikije, aho ushobora kureba kure cyane hari ibirunga, ishyamba ndetse hari n'abantu bari gutembera kuri iyo nyubako.

Inzu nziza cyane ikorerwamo ubuvuzi bw'ababyeyi bagiye kwibaruka ndetse n'ababiteganya, ni inzu isa n'umweru, ifite amadirishya meza ndetse n'akantu karinda umuriro cyangwa inkongi.

Ni byiza gukora siporo ngororamubiri, bikaba na byiza iyo tuyikoreye ahantu habugenewe hari ibikoresho byiza by'akataraboneka bifasha umuntu gukora siporo nziza cyane.

Ivuriro tutabashije kumenya izina, aho abarwayi bahurira kugira ngo bitabweho neza, hari ababyeyi babiri bipfutse udutambaro mu mutwe, ndetse n'umusaza umwe wambaye inkweto zo hasi.

Mu kubaka inyubako zigezweho, ni ngombwa ko dushyiraho ibiranga cyangwa se ibiburira abakoresha iyo nyubako, bikabarangira aho serivisi bashaka yose bayikura. Iyi ni inyubako yubatse neza, iriho n'uturango tugaragaza aho serivisi ushaka wayisanga.

Icyumba cyo kwa muganga kigezweho, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo isaha, za mudasobwa zo ku rwego ruhambaye, ni icyumba gikorerwamo ubushakashatsi ndetse no gupima ko imiti ikora neza akazi kayo ishinzwe.

Icyumba cyo kwa muganga kirafunze, harimo intebe abantu bicaraho kugirango bategereze serivisi zigiye zitandukanye, hariho ikibaho cyanditseho amagambo yo mu rurimi rwo mu cyongereza asobanura imyitozo ngororamubiri, ndetse n'imiti n'ubuvuzi bwayo.

Igikuta gisa umuhondo wijimye ndetse n'amadirishya hejuru hari amagambo yo mu rurimi rw'amahanga rw'Icyongereza, harimo ndetse n'ijambo risobanura igihugu cy'u Rwanda, hasi hari ubwatsi buteye neza ndetse butoshye.

Umugore wambaye umwenda wa giforomo, arasutse, afite akantu gafunga umusatsi we inyuma, arimo arita ku murwayi w'igitsina gabo, amukorera ibyangombwa kwa muganga.

Gufata neza ibidukikije ni ihame bikaba byiza iyo tubikoreye isuku tukabifumbira, tukabitera neza, bigasa neza ndetse bikanaduha n'umwuka mwiza duhumeka. Ibi ni ibiti biri gukora izo nshingano.

Ibitaro byiza bigezweho bigizwe n'ibikoresho bitandukanye harimo uburiri abarwayi baryamaho ibikoresho bipima umwuka ibikoresho bipima amaraso n'ibindi bitandukanye byifashishwa kugira ngo ugannye ibitaro agire ubuzima buzira umuze.

Umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itanu, ararembye cyane ari kwa muganga, aryamye ku gitanda kiriho amashuka y'umweru ndetse n'ikindi kiringiti cy'icyatsi. Ariho arapimwa umuvuduko w'amaraso n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Inyubako ifite ibara ry'ivu, mo hagati mu bikuta harimo utwobo turi mu mpande cyangwa se ikizeru, mo hagati hari amagambogambo yanditse mu ibara ry'umutuku, hejuru hari amadirishya, hasi hari imiryango ikozwe neza nk'amadirishya, si ibyo gusa kandi hari n'ibiti by'ibidukikije bifasha kuzana umwuka mwiza mu nzu.

Urugaga rw'abantu batandukanye bagera kuri batanu, higanjemo igitsina gore ndetse n'umugabo umwe, inyuma yabo hari amadirishya, hejuru hari ibipapuro byanditseho amagambo yo mu rurimi rw'amahanga, biragaragara kandi biranumvikana.

Turi kwa muganga aho ababyeyi bose bazanye abana babo b'ibitambambuga kugira ngo bakorerwe amasuzuma atandukanye, umwana muto uri mu kigero cy'umwaka umwe kumanura barimo baramupima ku munzani ngo barebe ibiro agejejemo.

Abantu batari benshi bari mu kigero cy'imyaka mirongo itatu na mirongo ine kuzamura, harimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, bambaye udupfukamunwa bigaragara ko bazindukiye mu ruzinduko rwo gusura Ibitaro bya Kabutare, bigira hamwe kuri serivisi zitangwa n'ibyo bitaro.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda bine ndetse n'udukoresho turinda imibu, haryamyemo abantu babiri, ibindi bitanda bibiri ntamuntu uryamyeho, birasashe gusa.

Mu cyumba cyo kwa muganga cyuzuyemo ibikoresho bigenewe gufasha abarwayi bagana ibitaro, kirimo abaganga bagera kuri batatu bari kwita ku murwayi umwe ufite ibibazo bigiye bitandukanye byo mu buzima bwe.

Abantu babiri harimo umusore ndetse n'umusaza, barembeye kwa muganga, bafite udukoresho tubafasha kubongerera umwuka ndetse n'ibindi bikoresho bibafasha mu kubapima, ni abantu bari kwitabwaho cyane kwa muganga nk'uko bigaragara.

Igikapu cy'umutuku, gifite imishumi y'umukara, kimwe kirafunze, ikindi kirafunguye, bigaragara ko harimo udukoresho dutandukanye dufasha nyir'igikapu mu rugendo agiyemo.

Abasore bari mu kigero cy'urubyiruko bambaye imipira ndetse n'amakabutura byenda gusa, gusa bitandukanyije ku mabara, bari gukora irushanwa ryo kwirukanka, aho babiri basa nkaho bahize abandi.

Umusore ubyibushye biringaniye wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'ikoboyi, arifata ku maboko bigaragara ko mu kaboko k'iburyo ashobora kuba yagizemo ikibazo akaba ari yo mpamvu, arikwikanda akoresheje akantu k'ubururu.

Icyumba cy'isanangingo kwa muganga, aho bakoreramo imyitozo ngororamubiri, bagorora uwagize ikibazo mu ngingo, uwavunitse ndetse n'uwahuye n'impanuka, abagabo babiri umwe wambaye imyenda y'ubururu bisa nkaho ari umuforomo, ari kuvura umurwayi wagize ikibazo mu maboko, amugorora amaboko ye.

Siporo igizwe n'ibice bibiri bitandukanye bikaba byiza iyo ubikoze byose kuva kuri kimwe kugeza ku kindi nta na kimusimbutse, urugero harimo siporo yo kwicara hasi ukabanza ukitekerezaho, ku byo ugiye gukora siporo ituma umubiri wawe usohora umwuka ukanawinjiza neza cyane, siporo yo kwirukanka ndetse n'indi yo gukora umubiri ndetse no gukina bya rusange.

Umusore wambaye agasengeri, ufite ubwanwa buconze neza, ari gukora imyitozo ngororamubiri. Bigaragara ko ni ibintu amenyereye. Ku maboko ye arabyimbye kandi yarawukoze koko.

Iyo dukora siporo ngororamubiri ni byiza ko twitwaza amazi kugira ngo siporo twakoze ize kurushaho kutugirira akamaro, umukobwa afite agacupa k'amazi ari ku kanywa.

Imipira isobanura imikino itandukanye, harimo umupira w'amaguru, ndetse n'imipira y'amaboko, agafunga umutwe mu mukino wo gukirana, ariko ukoreshejwe n'umupira w'amaguru.

Umwe mu rubyiruko arimo aranywa amazi, avuye mu myitozo ngororamubiri, yambaye agatambaro k'umweru kamufasha guhanagura icyunzwe yabize ari gukora umwitozo ngororamubiri.

Umuforomo wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindintoki, yambaye umwenda wa giforomo n'akantu gafashishwa mu kumva ugutera k'umutima, arimo arasuzuma ibipimo yafatiye abarwayi, abyitaho kugira ngo amenye icyo umurwayi arwaye.

Abantu babiri harimo umusore ufite ikibazo cyo mu kaguru, bigaragara ko atakibasha kugenda neza ndetse ari no kwa muganga ari gufashwa n'umukobwa wo mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu w'umuforomo, wambaye utuntu dufunga amaboko, ari kumufasha mu kumukoresha imyitozo ngororamubiri ndetse na ngororangingo.

Ibirango biri mu mabara abiri, umuhondo ndetse n'umukara, byanditswe mu rurimi rw'amahanga rw'Icyongereza, ruriho n'udushusho tw'abantu bane berekana uburyo siporo ikwiye gukorwa.

Umwitozo ngororangingo ndetse n'umwitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu bikenewe mu buzima bwa buri munsi, bikaba byiza iyo iherekejwe n'indyo yuzuye, indyo igizwe n'ibikomeza, ibitera, imbaraga ndetse n'ibirinda umubiri.

Ibitaro aho abarwayi bivuriza cyangwa se baguma kwa muganga kugira ngo babashe kwitabwaho neza bari hafi y'ubishinzwe; ababyeyi ndetse n'abana basashe ibitenge byabo mu bitaro.

Umusore ubyibushye, uremereye, ugaragara nk'aho afite ibiro bibarirwa muri mirongo inani cyangwa se mirongo icyenda, ari kunywa amazi, afite agakoresho kamufasha kumva umuziki, bigaragara ko avuye muri siporo kandi ikaba yagenze neza cyane.

Umukobwa uri mu kigero cy'urubyiruko ndetse no mu myaka itarengeje mirongo itatu, arimo arakora imyitozo ngororamubiri aho arimo arananura igice cyangwa se igihimba cyo hasi cy'amaguru kugira ngo akomeze kwemerera ko amaraso yo mu mubiri we atembera neza.

Umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko akeye ku mubiri akaba yambaye agasengeri k'abakobwa, afite n'udukoresho bakoresha bumva imiziki, yambaye na siporo kugira ngo amenye igihe siporo ye iri burangirire.

Umusore ufite ibisuko ku mutwe ndetse n'ubwanwa bwinshi yambaye agaseri ndetse n'agakabutura akaba ari muri siporo ya wenyine kugira ngo akomeze agire ubuzima buzira umuze.

Umuhanda werekeza ku bitaro urimo imodoka bita imbangukiragutabara, ishinzwe gutabara abaturage bagize ikibazo gitunguranye mu buzima bwabo.

Abantu babiri harimo umuganga ubizobereyemo wambaye itaburiya isa n'umweru, uwo muganga nuw'igitsina gabo, afite uruhu rwirabura, arimo arakanda cyangwa se aragorora imitsi yo mu matako y'uwaje amugana.

Akenshi iyo turi muri siporo dukunze guhura n'ikibazo cyo gukomereka cyangwa se tukaba twahura n'ikindi kibazo kivuye mu gukora siporo. Umukobwa wakomeretse bari kumwitaho mu turango tw'umweru ndetse n'utw'umutuku, umukobwa ni igikara ari kuvurwa n'umuganga w'umuzungu..

Umusore wambaye agaseri ndetse n'agapira gaciye ukuboko kumwe, ari kunywa amazi avuye muri siporo, bigaragara ko yirukanse ahantu harehare.

Umugabo wifashe mu gatuza ku kaboko ke kariho uturango tw'ubururu n'umutuku bigaragara ko yakoze siporo nyinshi bimwe dukunda kwita ngo yakoze umubiri.

Umwe mu rubyiruko rw'igitsina gore arimo arakora imyitozo ngororamubiri, afite imisatsi y'umukara myinshi, yambaye imyenda isa hose, asobanukiwe neza icyo imyitozo ngororamubiri ishinzwe cyangwa se akamaro kayo ku buzima bwa muntu.

Siporo igizwe n'ibice bitandukanye, harimo siporo yo kwicara hasi ukumva ibitekerezo byawe aho bikujyana, hakaba harimo siporo yo kwirukanka, hakaba harimo siporo yo gukora bimwe na bimwe mu bice bigize umubiri, hakaba harimo na siporo yo koga.

Isi y'iterambere aho usanga muri buri gice cyo mu buzima tubayemo harajemo ibikoresho bihambaye, ibi ni bikoresho byo kwa muganga bakunyuzamo bakakureba wese mu magufwa buri hamwe hose mu gice cy'umubiri wawe.

Abagabo babiri umwe ari muri siporo, undi ni inararibonye ku bijyanye n'ubuzima, ari kumurebera mu gice cy'umubiri aho twita mu kaguru ngo arebe niba nta kibazo yagize, ahagorore, hasubirane ubuzima.

Bimwe mu biranga ubuzima bwiza ni ugukora umwitozo ngororamubiri, cyane cyane iyo uri mu myaka y'urubyiruko, iyo utangiye gukoraho gatoya. Umwe mu rubyiruko arakora umwitozo ngororamubiri, arambura neza imitsi yo mu maguru ye ndetse n'iyo mu maboko kugira ngo amaraso akomeze atere neza.

Umuntu w'umusore w'ibigango, ndetse n'amatuza yambaye umupira w'amaboko maremare, avuye muri siporo yatakaje amazi menshi, ni yo mpamvu ari kunywa andi mazi agarura ibyo yatakaje.

Umusore w'ubukaka n'ubushongore ndetse n'ibigango wambaye agapira k'icyatsi, arimenaho amazi bitewe n'uko avuye muri siporo, akaba ashaka kugira ngo agarure ubuyanja.

Umwe mu rubyiruko rw'igitsina gabo, arimo arakora imyitozo ngororamubiri nk'ihame dutozwa n'abadukuriye. Yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara, arimo arirambura agorora umugongo we.

Abantu babiri harimo umuganga wambaye itaburiya uri kwita ku murwayi wagize ikibazo cyo mu rugingo rw'akaguru, barimo baramugorora kugira ngo agarure ubuzima mu kaguru, yicaye ku ntebe y'ubururu.

Ibidukikije ndetse n'ibibabi bitandukanye harimo amabuye ndetse n'uduti dushamikiyeho amababi menshi, bigaragara ko ariho hakunze kuva imiti bakunze kwita iya gakondo.

Abantu bazindukiye mu bucuruzi harimo umugore ndetse n'umugabo, bari guciririkanya, bari kugurisha inzoga cyangwa se ikinyobwa gisembuye, ku mafaranga bisa nk'aho batari kumvikanaho neza.

Kera hatarazaho ubuvuzi bugezweho, abantu ba kera bakundaga gukoresha imiti bakuye mu bimera, ariyo bita imiti ya gakondo. Ibi ni bimwe mu bimera bakoreshaga nk'imiti mu kwivura indwara zitandukanye.

Icupa rifite amabara atandukanye, harimo umuhondo wijimye ndetse n'irindi ryo ku gapfundikizo ry'ikigina, hejuru y'aho handitseho amagambo ari mu rurimi rw'amahanga Icyongereza bisobanura ubuziraherezo bwose.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'amahanga rw'Icyongereza, asobanura uruhererekane rw'uburyo wakwandikisha imiti ya gakondo ku rwego rwa Afurika ndetse n'utundi turango dutandukanye.

Ubuvuzi gakondo bwahozeho ndetse na n'ubu buracyifashishwa, mu ikoranabuhanga ry'ubuganga bugezweho, aho ibiti cyangwa se ibimera bikoreshwa, mu gushakisha imiti yo kurwanya indwara zikwirakwira ku muvuduko muremure.

Amagambo yo mu rurimi rw'amahanga icyongereza, yanditswe mu ibara ry'icyatsi ari kumwe n'ibibabi, asobanuye mu rurimi rw'ikinyarwanda, umunsi mpuzamahanga w'imiti ikozwe n'abanyafurika, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, iyo miti ikaba ituruka ahanini mu bimera.

Igiti kirekire, kiriho amashami cyangwa se ibibabi by'icyatsi, kiri ahantu hitaruye ku musozi, hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibihuru bitandukanye, aho hantu hakunze kwifashishwa mu gukora ubushakashatsi ndetse no gukora imiti y'ikinyarwanda.

Iyo abantu babiri bakundana biba byiza iyo bahisemo aho bakorera cyangwa bishimira kujya gusura, hari bimwe mu bintu birangaza amaso, aya ni amavuta ndetse n'imiti ituma ubwonko bwabo busa nk'ubusubira mu murongo.

Umubyeyi wambaye wikwije ufite agasakoshi ndetse n'imyambaro yiteze ari kwirinda ubukonje ari mu gitoki ari gukora ku mababi asa icyatsi.

Amacupa maremare ndetse n'amagufiya, yanditseho amagambo yo mu rurimi rw'amahanga atandukanye, harimo ayanditse mu gifaransa ndetse no mu cyongereza, ayo macupa bigaragara ko akozwe mu bimera akaba atanga amavuta.

Agakarito karimo imiti ikomoka ku bimera cyangwa se ku biti ndetse n'ibindi karemano, wifashishwa mu kuvura abafite ikibazo muri buri karemangingo kagaragaje ko katagikura neza nk'ibisanzwe.

Ibirango by'icyatsi birimo umukobwa w'igikara ufite imisatsi y'umukara, wambaye agapira k'umukara usa nkaho ameze nabi ashaka kwitabwaho, akaba ari kugirwa inama yo gukoresha imiti karemano.

Uducupa turi mu mabara atandukanye, turiho ibirango biriho amagambo asobanura iyo miti iri muri utwo ducupa, turapanze neza bigaragara nk'aho turi kwa muganga cyangwa se mu nzu bareberamo imiti.

Udukopu tw'amavuta dushushanyijeho amabara atandukanye icyatsi, umutuku, ubururu icunga ndetse n'umukara, hariho amagambo yo mu rurimi rw'amahanga Icyongereza.

Bimwe mu bimera dusanzwe dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, bizwiho n'inararibonye mu gutanga umusaruro mu miti, ikoreshwa kwa muganga mu kuvura indwara zitandukanye.

Igiti kiriho amashami ndetse n'ibibabi by'icyatsi, inyuma yaho harimo ikirere gifite ibicu by'umweru ndetse icyo kirere kiri mu ishusho cyangwa se ibara ry'ubururu, bigaragara ko harimo n'akazuba gakeya.

Amababi y'icyatsi ashamitse ku gati kananutse, inyuma yaho hari igikuta kirimo amatafari atondetse neza. Aya mashami bigaragara ko akunze gukoreshwamo imiti bita iya gakondo.

Mu miti yemewe harimo imiti bakunze kwita iya gakondo, imiti iva ku bimera cyangwa se ku bindi binyabuzima. Ikunze gukoreshwa kandi itanga umusaruro.

Icupa ripfundikiye riri mu mabara atandukanye, umutuku wijimye ndetse n'umutuku weruye, umweru, umuhondo n'umukara, iryo cupa rivamo amavuta akozwe mu buki.

Udukarito tugera muri dutanu duherekejwe n'imbuto harimo inanasi ndetse n'imineke hakaba harimo n'ururabyo, ibyo byose bikaba biri kumwe mu ishusho ryiza.

Turi mu gihuru cyuzuyemo uruvange n'urusobe rw'ibinyabuzima bigiye bitandukanye, harimo ibiti ndetse n'amababi, ibyatsi aho bakunze gukoresha bakura imiti dukoresha buri munsi mu kwivura indwara zitandukanye.

Ubuhinzi bugezweho burimo ibice bigiye bitandukanye, aho abantu bakora akarere cyangwa agace karimo ibihingwa bifumbiye neza biri mu kantu kameze nk'agakarito cyangwa se agashashi, hariho n'icyapa kigaragaza ibitewe muri uwo murima.

Umuntu utagaragara afite akungo ndetse n'umuhini ari gukora imiti bita iya gakondo, inyuma ye hari amabuye menshi cyane ndetse n'amasashi ari gukoresha mu gikorwa ari gukora.

Abantu babiri barimo umwe w'igitsina gabo n'undi w'igitsina gore, uw'umugabo yambaye agapira k'umutuku ndetse n'agakoti k'umukara, afite utuntu mu ntoki bigaragara ko ari ibimera ndetse n'umumama wambaye umupira ndetse n'akantu mu mutwe, bagaragara nk'aho bari gutanga ikiganiro ku bimera.

Imiti ndetse n'amavuta ya gihanga, yanditseho amagambo yo mu rurimi rw'amahanga rw'icyongereza, asobanura ko ari amavuta akoreshwa mu kwita mu maso.

Uducupa dutandukanye, turimo ibintu bitandukanye bifite amabara adasa, bigaragara ko harimo ubuvuzi gakondo, cyangwa se imiti y'abantu ba kera bakura mu bimera, ndetse n'ibintu karemano, bigaragara ko ari ubuvuzi bumaze kwemerwa, na guverinoma y'u Rwanda.